Inama iba igomba kurangwamo n'ubwitonzi, ku buryo uvuga atabangamirwa n'amajwi ibikorwa ibyo ari byo byose biturutse ku ruhande, uyu ufite ijambo ari kuvuga yitonze atanga ubutumwa bwe neza, ndetse n'abari aho ngaho bateze amatwi bumva icyo avuga batuje.

Leta ni umubyeyi ni koko tuba dukwiye kubahiriza ingamba za leta, ndetse tukitabira n'ibiganiro bigiye bitandukanye byateguwe n'inzego z'ubuyobozi, aba ni abaturage bari hamwe bitabiriye inama imbere yabo hari umuyobozi uri kubaha ubutumwa.

Kimwe nk'izindi nama zose, inama ziba zigomba kugira ingingo nyamukuru ndetse n'ibyigwaho, uyu mugabo afite mikoro ari gutanga ibitekerezo bye, bagenzi be bamuteze amatwi bashaka kumva ubutumwa bwe.

Muri bizinesi zigiye zitandukanye, haba hakenewe abafata imyanzuro ndetse bakajya n'inama, ni uko bimeze kuri iyi bizinesi, baricaye, bari kujya inama, bari kungurana ibitekerezo by'ibyakorwa cyangwa se ibyajya mbere.

Inama ibakwiye kwitonderwa ikarangwamo na desipuline ihagije ku buryo uvuga atabangamirwa n'ibikorwa cyangwa se amajwi ayari yo yose aturutse ku ruhande rw'abamwumva, abari mu nama aha baratuje bari kumva ubutumwa bwa mugenzi wabo, na we ari gutanga ubutumwa yishimye, yisanzuye adategwa ubona ari konsantere.

Turi mu nzira y’iterambere, ni na ko ikoranabuhanga ridasigara inyuma, ahubwo ritera imbere umunsi ku munsi. Haba mu bigo by’imari, iby’amashuri ndetse no muri business zitandukanye, ikoranabuhanga rirakoreshwa cyane. Iyi ni inama iyobowe n’uyu mugabo uri kwifashisha igikoresho cy’ikoranabuhanga benshi tuzi nka projector. Ari kugenda abasobanurira yifashishije projector.

Aba ni bamwe mu bagize inzego z'ubuyobozi aho bari bari mu nama. Insanganyamatsiko yari uruhare rw'umuturage mu igenamigambi ingengo y'imari n'imihigo mu mwaka wa 2025 ndetse na 2026.

Leta ni umubyeyi ni koko tuba dukwiye kubahiriza ingamba za leta ndetse tukitabira n'ibiganiro bigiye bitandukanye byateguwe n'inzego z'ubuyobozi, aba ni abaturage bateraniye hamwe bari kumva amabwiriza ari guturuka mu nzego z'ubuyobozi.

Urugerero ni gahunda ya leta igamije guteza imbere ubumenyi bw'abaturage no kubaka ubumwe bw'abanyarwanda urugerero rushingiye ku muco gakondo nyarwanda, aba ni abanyeshuri basoje amashuri yisumbuye bitabiriye urugerero.

Icyapa ni kimwe mu byinjiriza bizinesi yawe. Iki ni icyapa kiranga ahatangirwa serivisi z'irembo, foto egisipuresi ndetse na Rwanda reveni otoriti savisizi.

Iyi ni Rwanda reveni otoriti ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, nk'uko turi kubibona munsi y'iki kirangantego cya Rwanda reveni otoriti, hari akabara k'ubururu kandikishijwemo amagambo y'umweru ya viziti, aha ngaha ushobora kugakandaho ugasura byinshi kubyerekeye Rwanda reveni otoriti.

Benshi muri twe dutunze amatelefone, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga dukoresha tujya ku mbuga nkoranyambaga, duhamagarana, inshuti, abavandimwe ndetse n'imiryango. Wakibaza uti ese bigenda bite? Uyu ni umunara uhuza konekisiyo. Izo konekisiyo tukaba tuzikoresha muri izo nzira zose haba kujya ku mbuga nkoranyambaga ndetse no guhamagarana.

Uyu ni umunara muremure, akamaro k'uyu munara ni ukujyana amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye, nk'uko turi kubibona uyu munara ugiye ufite insinga z'amashanyarazi ziri kujya mu merekezo agiye atandukanye.

Akamaro k'amatara yo ku mihanda, tukabona cyane cyane iyo ijoro riguye. Ese mwebwe, mujya mutembera mu ijoro ngo murebe ubwiza bw'amatara yo ku mihanda? Iri ni rimwe mu matara yo ku muhanda, rikikijwe n'insinga zijyana amashanyarazi.

Uru ni urwego rujyanye n'ubuvuzi, aha turi ni kwa muganga. Hari abategereje kujya muri konsiritasiyo, aho basuzumira nk'uko turi kubibona umumama wicaye ku gatebe utegereje kujya muri konsiritasiyo, hari uri kwinjira muri konsiritasiyo ndetse hari n'umupapa uhagaze utegereje kwinjira muri konsiritasiyo. Hirya yabo gatoya hari undi mumama wicaye mu kagare na we utegereje serivisi.

Mu gihe impanuka ibaye ikintu cya mbere gikorwa ni ubutabazi, iperereza no kugenzura icyateye impanuka bikaza nyuma, iyi imodoka ya ambiranse yifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi igihe hagaragaye impanuka.

Iki ni ikirango cy'ubushinjacyaha bukuru nk'uko bigaragara mu bimenyetso bikigize dufitemo ingabo ebyiri ziri ku mpande ndetse n'izuba ririmo hagati munsi yaryo hariho inuma igitabo ndetse n'iminzani ibiri iteganye munsi yaho nanone turahasanga idarapo ry'u Rwanda munsi hakaba handitse amagambo agira ati ku neza ya bose.

Turi mu nteko ishinga amategeko. Iki ni igikorwa cyo kurahira. Ababa batorewe inshingano zigiye zitandukanye muri leta, bajya kurahirira izo nshingano ko bazazikora neza ndetse ko bazakorera igihugu ndetse n'abaturage nk'uko aba bagiye kurahira.

Nk'uko bigenda mu gihe cy'amatora ,hari ibikorwa bibanziriza umunsi w'itora, muri ibyo bikorwa harimo no kwiyamamaza k'umukandida, abangabo n'abaturage bo mu mudugudu wa Radari, aho bari bari kwemeza ko, bazitorera umukandida wabo watanzwe n'ishyaka Arapiyefu, ariwe Paul Kagame ,ko bazamutora ijana kw'ijana.

Mu gihe cy'amatora hari ibikorwa bibanziriza amatora harimo no kwiyamamaza, aho ishyaka ritanga umukandida akagenda yiyamamaza avuga imigabo n'imigambi ye, uyu nguyu ni hizi ekiselensi Kaul Kagame watanzwe n'ishyaka rya arapiyefu aho yari ari kwiyamamaza abaturage bamufitiye urugwiro ibyishimo ari byose akanyamuneza ari kose.

Uyu ni madame Louise Mushikiwabo umunyarwandakazi w'umunyapolitike ndetse akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane mu Rwanda, mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Louise Mushikiwabo yabaye umuyobozi w'ishami ry'umuryango wa furankofone, aha yari ari gutambutsa ikiganiro aho amamikoro yari amuri imbere.

Mu gihe cy'amatora hari ibikorwa bibanziriza amatora muri ibyo bikorwa harimo no kwiyamamaza kw'abakandida bagiye batandukanye. Aha ngaha umukandida wigenga Mpayimana Philippe yari ari kwiyamamaza ari kuvuga imigabo n'imigambi yiwe kugira ngo azatorwe.

Nk'uko bigenda mu gihe cy'itora hari ibikorwa bibanziriza umunsi w'amatora, muri ibyo bikorwa harimo no kwiyamamaza k'umukandida ushaka kuyobora. Iri ni ishyaka arapiyefu aho ryari riri inyuma umukandida waryo Paul Kagame.

Iyi ni imodoka yo mu bwoko bwa tagisi vuwatire, iri mu muhanda hirya yaho hari moto nazo ziri kugenda, ndetse hirya yazo hari umugenzi w'umunyamaguru. Izi modoka za tagisi vowatire, ushobora kuzitega ku mpamvu zigiye zitandukanye; ufite imizigo itajya ku ma moto , ndetse ufite n'urugendo rwa kure.

Kaburimbo iba ifite impande ebyiri, uruhande ruzamuka ndetse n'uruhande rumanuka. Uruhande ruzamuka birumvikana runyuramo ibinyabiziga bizamuka, naho uruhande rumanuka rukanyuramo ibinyabiziga bimanuka. Iyi modoka y'ikamyo iramanuka, moto ndetse n'indi modoka iri ku ruhande rwayo nabyo birazamuka.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ndetse n'abageni, aha hari imodoka yo mu bwoko bwa rukururana iri kugenda ndetse n'iyindi modoka iri kuza, hirya yaho hari umugenzi uri kugenda n'amaguru ndetse imbere yaho gato tugarutse mbere hari umunyonzi uhetse umuzigo uri kuwusunika.

Nkuko turi mu nzira y'iterambere ni nako ibikorwa byacu bigenda byoroshywa umunsi ku munsi, ibi bininyabiziga byombi byifashishwa mu bikorwa by'ubwikorezi. Iyi kamyo benshi tuzi nka hoho yikoreye umucanga ifite aho iwuvanye ifite n'aho iwujyanye, iyi moto nayo ubwayo yifashishwa mu bikorwa by'ubwikorezi bwo m'umuhanda.

Ahangaha ni muri parikingi ya moto zitwara abagenzi, nkuko turi kubibona haparitse abamotari benshi batandukanye, ndetse bisa nkaho bategereje abakiriya, ahangaha ni mu masaha y'ijoro aho abantu baba bataha bava mu mirimo yabo.

Iyi ni imodoka yo mu bwoko bw'amakamyo benshi tuzi ku izina rya rukururana, ihetse imizigo hejuru y'iyo mizigo hariho shitingi itwikiriye, iri mu muhanda ifite aho ivanye iyo mizigo ndetse ifite n'aho iyijyanye.

Mu bigo bigiye bitandukanye ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi tuhasanga parikingi. parikingi ni ahantu habikwa ibinyabiziga by'abagannye aho hantu, mu buryo bwo gucungirwa umutekano, ndetse no kugabanya akajagari. Izi ni imodoka ziri muri parikingi, bigaragara ko zisa neza.

Gasabo ni kamwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Ibiro by'akarere bya Gasabo bigizwe n'inyubako ndende, hejuru y'iyo nyubako hariho agaseke, munsi ya gaseke hari amagambo agira ati akarere ka Gasabo.

Ibigo by'imari kugira amashami ahantu hagiye hatandukanye, ni igikorwa cyorohereje abanyamigabane kubona serivisi nziza, kandi byihuse bitagombye gusiragira, aho waba uri hose wabona serivisi. Iyi ngiyi ni Banki ovu Kigali, ishami riherereye giporoso.

Amategeko y'umuhanda ni ikintu kiba gikwiye kwitonderwa, cyane ko iyo kititondewe gitwara ubuzima bwa benshi ndetse n'ibikorwa remezo bikahangirikira. Iyi ni imodoka iri kugenda mu muhanda w'ibinyabiziga, hirya yaho hahagaze umuntu utegereje kwambuka muri iyi mirongo yagenewe kwambukirwamo abagenzi.

Nk'uko tubizi cyangwa se benshi muri twe tumaze kubimenyera, abakoresha umuhanda mu buzima bwa buri munsi, umuhanda ugira amategeko mu rwego rwo gukumira impanuka ndetse no gusigasira ibyagezweho, iyi mirongo y'umweru turi kubona mu muhanda, ni imirongo yambukirwamo abanyamaguru.